Agashushanyo k'akanyugunyugu gashushanyije ku rukuta rw'umuhondo.

Abanyeshuri umunani bicaye ku ntebe enye, bicaye mu ishuri bari kwiga, bari kureba ku kibaho cy'umukara bari mu nzu isize ibara ry'umuhondo ndetse harimo n'ibishushanyo bitandukanye.

Radiyo eshatu ziri mu mabara menshi atandukanye.

Ikibuga cya voreboro kiri hejuru y'umusozi gikikijwe ndetse n'indi misozi.

Inzu y'umuhondo isakajwe n'amabati asa umweru ndetse n'amadirishya y'umukara.

Igikoresho gikoreshwa mu kubika ibikoresho bakoresha mu kwiga imibare ndetse n'ibyo bikoresho.

Inyubako y'ishuri rya wizidomu sikuru rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku.

Igipangu cy'ikigo cy'ishuri kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'inzu z'amashuri ebyiri zifite amadirishya y'ubururu.

Umuntu wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'ubururu.

Agakoresho kifashishwa mu kubika ibikoresho bifashisha mu kwiga imibare kari mu mabara y'umukara na orange.

Abarimu bambaye impuzankano zabo z'umweru bari imbere y'inzu bigishirizamo ndetse n'ubusitani.

Abanyeshuri bari kwiga bafite mudasobwa ndetse bari kureba ku kibaho.

Abubatsi benshi bahagaze imbere y'amaziko.

Umwarimu wambaye impuzankano y'umweru, wicaye ku ntebe aho basomera ibitabo.

Umunyeshuri uri guhabwa ishimwe n'umurezi we ufite mikoro wambaye ikanzu y'umukara uhagaze imbere y'intebe.

Ahakoreshwa mu mwuga wo kubumba, ndetse n'ibikoresho binyuranye bikoreshwa muri uwo mwuga.

Abanyeshuri benshi bari kwiga bari kumwe na mwarimu munzu y'umweru ifite imiryango yijimye.

Intebe ziri mu nzu zifite ibara ry'ubururu kandi nyinshi.

Ishuri ririmo abantu benshi ndetse bari kureba ku kibaho.

Umunyeshuri washoje amashuri ye ya kaminuza uri gutanga ijambo.

Aho babumbira ndetse n'ibibumbano bari gukora.